Iki ni icyapa kiranga ahantu wasanga ibinyobwa, harimo za pirimusi, iki cyapa cyakuyobora kikakubwira ahantu warangurira inzoga z'amoko yose, zigiye zitandukanye, wazisanga aha ngaha. Iki cyapa cyagufasha mu kukuyobora aho wabisanga.

Aha hantu wahasanga ibyobwa bigiye bitandukanye. Wahasanga inzoga zitandukanywa za burarirwa, ndetse baranaharangurira. Ushaka detaye yayibona, ndetse n'ushaka kurangura aha yabihasanga.

Umugi wacu ni mwiza, aha hangaha ni ku maduka, bacuruzaho imyenda myiza y'abagore n'abakobwa, ariko bacuruza na za terefoni, ndetse zifata na foji, ari iwacu interineti na wifi, birihuta cyane.

Iri duka baricururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari aho bakodesha imyenda y'abageni, ahangaha ibikoresho bikenerwa mu bukwe birahari mu gutegura umugeni n'abamuherekeje.

Ahangaha ni ahantu bacururiza ibintu bigiye bitandukanye. Hacururizwa ibiribwa by'amoko menshi, harimo imyaka, ibigori, ibishyimbo n'impungure. Ahangaha wabihasanga mu ntara y'Abajaruguru, bahacururiza n'amasaka.

Aha bahacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye , n'ibishushanyo ku muntu ushaka ibishushanyo byo gutaka mu nzu, harimo ingagi ,uduseke , utwibo n'ibindi aha ngaha ura bihasanga, ukigurira ibintu ukajya gutaka mu nzu hawe hakagaragara neza.

Amahuriro y'imihanda yubatse neza, ahantu hasa neza. Aya mahuriro y'imihanda yubatse neza, nta handi wayasanga usibye mu Majyaruguru. Aya mahuriro y'imihanda ni meza, abereye ijisho.

Iyi nzu icururizwamo ibirayi, ibi ni bimwe mu bihingwa biboneka cyane cyane mu ntara y'amajyaruguru, ibirayi birahera kandi bigira n'umumaro mu buzima bwacu.

Aha wahasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bakoresha bifashisha mu gihe cyo gukora umuziki, amakorari amwe na amwe ibi bikoresho arabikoresha, mu buryo bwo kugira ngo injyana za bo zigende neza.

Iri ni ishami rya eyateri, iri shami rifasha abantu muri za serivisi zigiye zitandukanye, mu kubaha amasimukadi, no kubakemurira ibibazo baba bahuye nabyo, mu gukoresha simukadi ya eyateri.

Iyi modoka ihagaze iruhande rw'ahantu bacururizaga icyayi, hari na resitora icuruza ibintu byo kujya uhererereye mu majyaruguru, urimo ugenda wahanyurana ni ku nzira, hari na parikingi y'imodoka ukagira icyo ufata.

Aha ngaha wahasanga ibitenge by'amoko yose, ibi ni ibitenge byiza bibereye abagore, ibitenge ni imyambaro y'abanyafurika, ni imyenda myiza umugore yakwambara n'abakobwa bakayigura, bakayidodeshamo imyenda igiye itandukanye kandi uwo ariwe wese, yakenera kwambara igitenge ni ikintu cyiza.

Aha ngaha ni ahantu bacururiza icyayi, icyayi cy'aha hantu kiba kimeze neza kuko ni ahantu hatuje hatari urusaku, kandi hari agakari ku buryo uwo ari we wese yajyayo yumva nta kibazo afite.

Aha hantu bahacururizaga ibikoresho by'ubuhinzi harimo ibyuma byo gutera imiti. Ibi byuma babikoresha iyo bagiye gutera imiti mu mirima kuko gutera imiti mu mirima biba biruhije ntago wakoresha injerekani isanzwe ngo bikund ariko iyo ufite iki cyuma birakorohera mu gutera imiti ibihingwa byawe.

Aya ni amazu y'ubucuruzi, aya mazu bayakoreramo ubucuruzi bugiye butandukanye, aya mazu ari ku muhanda, uwifuza gushora imari mu bucuruzi, yaza byamufasha mu kwiteza imbere.

Aha ngaha hari inzu nziza yo gukoreramo ubucuruzi ku bantu bafite amafaranga yabo, baza aha ng'aha bakayikodesha. Iyi nzu iri ku isoko irakodeshwa, kandi iri ku muhanda, wahakorera ubucuruzi bikagufasha mu kwiteza imbere.

Iyingiyi ni imiti ivura inka, ihene n'intama. Ibingibi bikoreshwa mu kuvura amatungo yagize ikibazo. Ahandi wabisanga ni mu ntara y'Amajyaruguru, ni muze mwigurire imiti, amatungo yanyu amererwe neza.

Ahangaha bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ahangaha ibikoresho byose wabihasanga, telefone barazikora, banagura ibikoresho utagikeneye gukoresha. Ahangaha wahakoresha za telefone, televiziyo, banacuruza n'ibikoresho biba byarakoze.

Aha hantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, wahasanga ibijyanye na mtn, wahagurira amayinite, wahabikurira amafaranga, ndetse hari n'amaduka waguriramo ibintu ukeneye biboneka mu ntara y'amajyaruguru.

Ahangaha wahasanga ibikoresho abageni bakenera harimo kubategurira aho ibirori biri bubere hakabamo kunganiriza ibyo abo bari bukoreshe mu byo bagiye gukora.

Iriduka ricuruza ibintu bijyanye n'amatisi kandi aha hantu barahadodera. Uhaguriye igitambara washaka bakanakikudodera ku mafaranga make bidahenze, iyo ufite amafaranga ugura igitambara bakanakudodera ku mafaranga make.

Aha hantu bahacururiza ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho matera, amasogisi, n'utundi dukoresho umuntu yakenera two gukoresha tw'ingenzi, tugiye dutandukanye.

Aha hantu wahasanga icyayi kiza kiryoshye cyane, hari kofi, hari icyayi kigiye gitandukanye k'ikawa, icyayi cya mucyayicyayi, ahangaha rwose wahasanga icyayi cy'ubwoko bwose.

Hoteli yacu nziza cyane nta handi wayisanga usibye mu ntara y'amajyaruguru. Ahangaha hari serivisi nyinshi zigiye zitandukanye hari ibyumba bikorerwamo inama, hari amasare akorerwamo ubukwe, ibintu byose sawunamasage wabisanga muri iyi hoteli yacu iherereye mu ntara y'amajyaruguru.

Ahangaha ni inzira y'abagenzi, ahangaha abagenzi bahanyura iyo bavuye mu isoko. Iyo bavuye mu isoko baca aha hantu, kubera ko ariho hari inzira y'abagenzi iba itarimo imodoka nyinshi, zakwangiza ubuzima bwa bo.

Imyuga yo guteza abaturage imbere igihe itandukanye. Uyu nguyu akora umwuga w'ubunyonzi ariko ukamubeshaho. Hariya hari inzu ikorerwamo ubucuruzi ibintu byose wabihasanga.

Iyi ni inzu bacurugazamo ibicuruzwa byiza by'abana, ni imyenda myiza y'abana, ni ahantu heza harasa neza, ibikoresho byose by'abana wabihasanga kandi nta handi wabisanga usibye mu ntara y'Amajyaruguru, ni karibu.

Aha hantu bahacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bahacururiza kawunga, bahacururiza amavuta, ariko no ku bantu bifuza kurangura aha ngaha ni karibu n'imiceri iba ihari bararanguza, ndetse bakanacuruza ibintu by'ibiribwa ku bantu bashaka detaye.

Ahantu bacururiza ibikoresho umuntu yakenera wahasanga amaji, wahasanga amandazi, aha hantu ibintu by'ingenzi wakenera wabihasanga haherereye mu majyaruguru ,wahasanga ibintu by'amaji n'amandazi.

Aha hantu bahacururiza amagare. Amagare ni meza, kuko igare umuntu yarigura ari umunyonzi rikamufasha mu kwibeshaho. Hari igare rya siporo rifasha umuntu mu gukora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Iki ni icyapa, kiranga aho umuntu yakura ibikoresho bijyanye n'iby'imyenda y'abageni no kubambika, ni ibikoresho bakoresha mubukwe bwabo.

Iri duka baricururizamo amatelefoni, haba hari amatelefoni meza y'ubwoko bwose, afata interneti ya foji, adufasha mu buryo bw'ikoranabuhanga kuvugana n'abantu bacu bari kure, cyangwa hafi dukoresheje uburyo bwa telefoni.

Ndi kubona ari iduka rigurisha ibikoresho byo mu rugo, harimo ibiyiko, amasafuriya, amabase. Ndabona bacuruza n'ibikapu.

Ekwiti n'ishami ryaje mu gufasha abaturage mu kwiteza imbere. Ekwiti iguriza abantu amafaranga bakishyura ku nyungu y'igiciro gito kiri hasi. Ekwiti wayizigamamo ukabikuza mu buryo bworoshye ukoresheje izi, wakwiguriza ukoresheje izi no kubitsa.

Gucuruza bidufasha mu mibereho yacu igiye itandukanye, iyo ucuruza gutya bikurinda gusabiriza, bigufasha kubaho neza, bikanafasha iterambere.

Aha hantu bahacururiza imboga z'amoko yose, inyanya, intoryi, karoti, ahangaha wabihasanga kandi imboga zigira intungamubiri, iba ikenewe kubana n'abantu bakuru, kuko imboga zirinda abana kugwingira.

Imirimo y'ubwikorezi ni imirimo ifasha bamwe mu buryo bwo kwibeshaho, bakaba bajya mu mashyirahamwe bakabasha gutanga amafaranga bikabafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo.

Ubucuruzi bwa pampa ni ibicuruzwa byiza, izi pampa zifasha abana mu kubagirira isuku, izi pampa ni nziza kuko zirinda abana kubabuka no kuba bagira umwanda.

Iduka ricuruza ibicuruzwa byiza by' ibirungo dukoresha iwacu:" ibirungo ni byiza kuko bituma isosi yawe isa neza" icyayi harimo udukoresho tw' isuku harimo burose da, hakabamo n' ibirungo byinshi bitandukanye, biherereye mu ntara y' Amajyaruguru.

Iyibase ibitse ibindi bikoresho by'amabase kandi ikoreshwa mu rugo, abantu benshi barayikenera kuyifuriramo, kuyibikamo amazi no kuyibikamo ibyombo. Ahangaha ari kuyicururiza ibitsemo ibindi bikoresho, by'amaba amabase akoreshwa mu buryo butandukanye, bayogeramo, bayafuriramo, bayakoresha basukura n'byombo .

Ibi ni ibikoresho, bikoreshwa mu mirimo yo mu rugo. Ibi biyiko barabirisha, izi ndobo wazikoresha mu buryo bwo kubika amazi, ibi birahuri ni ikintu cyiza wakoresha wakira abashyitsi.

Aha hantu bacuruza ibintu byiza. Bacuruza imbuto zirimo imineke, zirimo amatunda, zirimo amacunga ,zirimo amananasi. Ndi kubona hariho n'ibishyimbo by'ibitonore na avoka. Ibi bintu byose bigira umumaro mu buzima bw'umuntu, turabikeneye kugira ngo tugire ubuzima bwiza.